Ibigo by'amashuri ni bimwe mu bigo bifasha abana ndetse n'ababyeyi muri rusange. Ku bana bifasha abana kongera ubumenyi, ndetse ku babyeyi bifasha abana bifasha ababyeyi kugira abana bajijutse ndetse basobanutse cyane.

Abarimu ni bamwe mu bantu bafasha abantu benshi, kuko umuntu uriho cyangwa se utegenya kuba yarya kwiga, usanga ibigo byinshi bitandukanye harityo bazabigisha ndetse bagenda bashimirwa nabo bigishije bitewe nibyo bagezeho.

Uburezi ni kimwe mu nkingi ya mwamba izamura iterambere ry'igihugu. Igafasha n'igihugu kugira abaturage bajijutse. Hirya no hino mu gihugu hagenda hakorwa ibigo by'amashuri, ku bantu bafite amafaranga akajya yigamo. Abana batoya ndetse n'abakuru

Iyo abanyeshuri bagenda biga bakoresha uburyo butandukanye, kugira ngo isomo ryumvikane. Nko mu isomo rya siyansi cyangwa se bayoroji, bagenda bagaragaza ibishushanyo bigaragaza ibice by'umuntu by'imbere, amara, umutima byose.

Muri iki gihe ibigo by'amashuri byagiye byigezwa abaturage, aho usanga mu gihugu hose cyangwa se mu bice bitandukanye by'igihugu, hari bigenda hari ibigo by'amashuri. Hari pirimere cyangwa sekondari sikuru. Ibyo bifasha abana bahire kutakora urugendo rurerure ndetse no kwiga biboroheye.

Igitekinisiye cyangwa se ibintu bya mekanike ni sirivise zitangagwa hirya no hino, usanga abakora umwuga w'amashanyarazi, abakanishi ndetse n'ibindi bikagenda bivamo inyungu ndetse n'amafaranga.

Ikoranabuhanga ni ireme rimwe na rimwe ritangwa mu burezi ndetse no mu bigo by'amashuri, aho umuntu wize ibintu bijyanye na tekiniki ndetse n'ikoranabuhanga, aba asobanutse ndetse biba ari na byiza cyane.

Uburezi hirya no hino mu gihugu bugenda butera imbere. Hamwe mu bigo by'amashuri nko mu ma tiveti ndetse n'ibindi bigo bya segonderi, bigenda bikora amagurupe y'abanyeshuri bakagenda babasobanurira bimwe mu byo bagenda biga, kugira ngo ubumenyi bwabo bubashe kwiyongera.

Uburezi ni imwe mu nkingi ya mwamba ya Leta, ndetse ifasha abanyeshuri ndetse n'ababyeyi kuzamura abana hirya no hino mu bigo by'amashuri, ubona abana biga, basubiza, ari ibintu bishimishije cyane.

Ametete ndetse n'ahandi hantu hashyirwa, hakirwa abantu usanga bafite amasaro meza n'amatekmbo meza hatatse yanditsede coye n'amaro nkitandukanye usanga ko hamezeze hateguye neza asa neza ishusho nziza.

Uburezi hirya no hino bwigisha ibintu bitandukanye, aho usanga hari abiga imyuga y'ubumenyi ngiro. Muri ibyo byose mu myuga n'ubumenyingiro nta bwo watanywa ngo ni abasore cyangwa se abagabo, ibitsina byombi byisangamo.

Umurimo w'ubusudizi cyangwa se umwuga w'ubusudizi ubeshejeho abantu benshi, aho abantu benshi basudira bakoresha ibikoresho bitandukanye, ariko bakabona amafaranga. Iyo basudira bakoresha umuriro w'amashsnyarazi, bakagenda bahuza ibintu.

Iyo abanyeshuri bari muri puratike, cyangwa se bari mu bizamini by'amaboko, ubona ari ibintu byiza kuko baba bambaye neza amakipumenti bikwije, aho inkweto ziba ari zimwe, amasarubeti ari amwe, amagofero, ndetse n'ibyo bari gukora ari bimwe.

Hari imyuga myinshi igenda itandukanye ikoregwa mu gihugu mu duce twinshi dutandukanye tw'igihugu cyangwa mu turere twinshi dutandukanye ndetse hari imishinga myinshi igenda yigisha abantu icyo bita ishuri ry'igihe gita shoti kose, urugero tufata abiga ubudozi. Ubudozi ni umwuga mwiza ukora ndetse udodere abantu imyenda ndetse ni umwuga wose wimukiye mu gihugu hose umwuga wawuhasanga, birafasha ndetse iteza imbere ubikora ndetse n'ubikorerwa.

Mu bigo by'amashuri bitandukanye ahantu bigisha imyuga uhasanga ibikoresho bitandukanye, abana bakoresha muri puratike ndetse ugasanga ukahasanga wakishopu cyangwa se abantu bakorera, bitoza umwuga wabo biga gukora igihe kizaza.

Ubudozi ni umwuga mwiza usha abandi benshi cyane cyane, ukunzezwe gukorwa n'abana babakobwa cyangwa basaba abakobwa biga kudoda imideli itandukanye cyangwa se imyenda itandukanye, kandi bigakorwa hirya no hino ku umwowuka kusa.

Ubukerarugendo ni bimwe mu iterambere dusanga muri aya mahoteli, mu mahoteli habamo serivisi zitandukanye hari guteka ,ndetse ibintu bijyanye no guteka byigishwa no mu bigo by'amashuri usanga abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyigiro mu bigo bya tiveti biga guteka ,bashaka kuzaba abashefu ibyo byose biboneka mu bigo bitandukanye byigisha imyuga.